Ahantu bisa nkaho ari muri salle y'inama. Hakaba hari abantu bicaye imbere y'abandi bisa nkaho abo bantu ari bo bayoboye icyo kiganiro cyabereye aho ngaho. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo rubyiruko menye amateka yawe. Hari umugabo ufite microphone mu ntoki urimo uragerageza kubaganiriza.

Ni umugore bigaragara ko uyu mugore asobanutse cyane akaba yambaye imyenda myiza cyane, uyu mugore yambaye amarinete ndetse ku kaboko ke yambayeho n'isaha, biragaragara ko ari ahantu muri sale aho ari imbere arimo araganiriza abitabiriye inama ku kintu runaka.

Umugore uhagaze imbere y'icyapa cyanditseho ngo twirinde indwara y'ubushita bw'inkende, akaba bisa nk'aho arimo araganiriza abantu bitabiriye ubwo bukangurambaga ababwira uburyo bashobora gukoresha bakirinda iyo ndwara.

Ni abantu benshi cyane bisa nkaho bari baje mu nama, hari amahema ahubatse ndetse urabona ko nyuma y'uko inama irangiye, barimo baragerageza kubyina ngo basusuruke.

Ni abantu benshi batandukanye, bakaba bateraniye ahantu hamwe, harimo ababyeyi bitwikiriye imitaka ndetse inyuma yabo hakaba hari amamodoka meza ahaparitse, bisa nk'aho hari inama runaka bari bajemo, barangije bacinya akadiho.

Ni abantu benshi bicaye mutente aho ubona ari ingeri zigiye zitandukanye, abangabo bakaba baje mu nama aho bateze amatwi umuntu uri imbere urimo urababwira ibyo yabateguriye.

Ahantu hubatse amatente, hakaba hicayemo abantu bagiye batandukanye, muri abo bantu hakaba harimo n'umupolisi, imbere yabo hakaba hari umuntu w'umugabo, bisa naho hari ijambo runaka arimo arababwira bamuteze amatwi, mu bigaragara iryo jambo ni ingenzi cyane.

Ni abantu benshi cyane ubona ko bicaye muri sale y'inama, aho bose bateze amatwi umuntu uri imbere uri kugira ikintu ababwira. Urabona ko bumiwe bamanjiriwe, bisa nkaho hari ibintu runaka arimo arababwira batari kumvikanaho neza.

Umugabo uyoboye ikiganiro cy'inteko rusange y'umuryango wa FPR Inkotanyi, akaba ahagaze imbere aho ari kuganiriza abantu bitabiriye iyo nteko, arimo arabagenera ubutumwa bw'ingenzi yabateguriye nabo baricaye bamuteze amatwi.

Abantu babiri ariko bakaba batagaragara neza, aba ngaba bakaba barimo barakina igisoro, biragaragara ko bose bameze nk'aho barimo baratekereza uburyo umwe ashobora kuba yatsinda undi. Barimo barakina igisoro aho bagiteretse ku ntebe y'urubaho.

Ni abakobwa beza cyane ubona ko bisa nkaho bari mu kirori, aho barimo barabyina imbyino gakondo. Bose bikenyeye imikenyero yabo ndetse bateze amaboko, bisa nkaho barimo barasusurutsa abantu baje muri icyo kirori.

Mu muco gakondo w'Abanyarwanda, habagamo ububumbyi ndetse n'ububoshyi, aho abo ngabo bose babohaga ibintu bigiye bitandukanye, aha hakaba harimo uduseke ndetse hakaba harimo n'utundi tuntu tubumbye, ubona ko tugaragaza umuco nyarwanda.

Mu muco gakondo w'abanyarwanda, iyo intore zabaga zirimo guhamiriza zambaraga amayugika maguru yazo kugira ngo nizibasha kubyina zirimo zirahamiriza, aya mayogi abashe kuba yatanga injyana abantu bakurikiye iyo mbyino babasha kunezerwa.

Ni ahantu harunze imisambi igiye itandukanye iboshywe mu buryo butandukanye, iyi misambi ikaba ari umuco gakondo w'abanyarwanda, aho abakobwa ba kera bajyaga mu rubohero bakaboha iyi misambi, hagaragara kandi abantu baje kureba ibi bikorwa bakoze.

Mu muco wa kera gakondo w'abanyarwanda, iyo abahanzi cyangwa se intore zaririmbaga, hari ibikoresho byabugenewe zifashishaga. Aya ngaya ni amakondera, aho abagabo bari barimo bayavuza kugira ngo baryoshye ikirori bari barimo, bose bakaba bikenyeye imyitero yabo n'imikenyero yabo, akaba ari umukobwa ndetse n'umuhungu.

Mu muco gakondo w'Abanyarwanda, imyirongi yavuzwaga n'abantu bagiye batandukanye, cyane cyane yakundwaga kuvuzwa mu bitaramo nyarwanda, aho ababyinnyi cyangwa se intore, bavuzaga imyirongi, ubundi igatanga injyana ziryoheye amatwi.

Umumama uhagaze ahantu muri sale, aho ahagaze hagati yabandi bantu, afite mikorofone mu ntoki bisa nkaho hari ijambo runaka arimo arabagezaho, abicaye nabo bamuteze yombi ndetse urabona ko bamukurikiye. Ku meza imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Inka nziza cyane y'inyambo, ikaba ifite amahembe atezi neza. Izi ngizi zikaba ari inka za kera zo mu muco nyarwanda cyangwa se umuco gakondo w'abanyarwanda. Iyi nka ikaba yambaye iherena ku gutwi.

Mu muco nyarwanda, wasangaga abasaza baranyweraga mu gacuma icyo kunywa cyabo, ugasanga umugabo agira agacuma ke, iyo yashyiragamo urwagwa, umugore yakamuterekeraga hafi y'umusego kugira ngo mu gihe agize icyaka, abashe kuba yanywa.

Ni abakobwa ubona ko ari abakobwa bateze neza amaboko, aho barimo barabyina imbyino gakondo babyina mu buryo gakondo cyangwa se imbyino nyarwanda, bikenyeye imikenyero aho bateze amaboko, bari ahantu bisa nk'aho hari igikorwa cyangwa se ikirori runaka cyahabaye, bakaba bari barimo basusurutsa abantu bitabiriye icyo gikorwa.

Ni umugore akaba apfukamye ku musambi aho ari gushyira amasaka ku rusyo kugira ngo asye, iruhande y'urusyo hakaba hatetse igikombe, ibi ngibi bikaba byarakorwaga kera mu muco gakondo w'Abanyarwanda.

Mu Rwanda rwa kera ingabo zarindaga umwami zakoreshaga amacumu ndetse n'imyambi, aha ngaha hakaba hari imyambi myinshi igiye itandukanye aho imanitse mu gakoresho kabugenewe, ni imyambi ubona ko imeze neza ku buryo urashe umwanzi utabasha kumuhusha.

Ni abaririmbyi gakondo biganjemo abagabo ndetse n'umugore umwe, bose bakaba bambaye imikenyero aho hari undi urimo aravuza ingoma. Biragaragara ko muri abo basore barimo bararirimba indirimbo gakondo Nyarwanda ndetse aba ngaba bakaba ari intore ziririmba imbyino gakondo.

Ni ahantu bigaragara ko hahinze ibihingwagiye bitandukanye, hakaba hateyemo ipironi rinini cyane ririho insinga nyinshi zijyana umuriro w'amashanyarazi hirya no hino ku isi, urabona ko ari amapiloni akomeye cyane.

Ni amapironi meza cyane, akaba ariho insinga nyinshi zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino, biragaragara ko hubatse inzu y'urugomero ishinzwe ibijyanye n'amashanyarazi ndetse hagaragara ko ari ahantu hazitiye cyane hacungirwa umutekano.

Ni umukobwa ukorera ikigo k'Igihugu gishinzwe amashanyarazi mu Rwanda akaba hano yari arimo arakora bimwe mu byari byangiritse, uyu mukobwa yambaye impuzankano akorana akazi ndetse ari ahantu imbere y'umuryango uriho ibirahuri.

Umukozi w'ikigo cy'Igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu Rwanda akaba yari yuriye ku ipironi aho arimo aragerageza gukemura ikibazo cyari cyaje mu nsinga cyatumaga umuriro utagera hirya no hino uko bikwiye.

Abakozi bakorera ikigo gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturarwanda, bakababuriye ipironi, aho barimo baragerageza gukemura ibibazo bigiye bitandukanye byari byabaye hano, bituma umuriro utagera ahantu hose uko bikwiye.

Urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi, aho ababishinzwe bubaka, bakubaka ibintu byiza cyane ubona ko bikomeye, aha hakaba hari imashini zigiye zitandukanye, zifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi, ziwukwirakwiza hirya no hino ku isi.

Ni ahantu hari ipoto rinini cyane ririho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi hirya no hino ndetse aho hantu ipoto riri hakaba hari ibiti bihari. Iruhande rwayo hakaba hari inzu ihagaragara.

Ni mu cyanya cyahariwe gushyirwamo ibikorwa remezo by'umuriro w'amashanyarazi, hakaba hubatsemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho harimo amapoto ariho insinga nyinshi zigiye zitandukanye zijyana umuriro hirya no hino.

Ahantu ubona ko hahariwe gushyirwa ibikorwa remezo by'umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari amapironi manini cyane ahagaragara akozwe mu byuma, aya mapironi akaba ariho insinga nyinshi zigiye zitandukanye, zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro hirya no hino, munsi y'ayo mapironi hagaragara ishyamba ririmo.

Ni ahantu bigaragara ko ari mu cyanya cyahariwe ingufu z'umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari ibimashini byinshi bihari ndetse iruhande rwaho hakaba hahagaze umugabo ushinzwe kugenzura bino bintu, ikindi kandi hakaba hari amazi yifashishwa muri izo mbaraga zo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino.

Ni ahantu bigaragara ko ari mu rusisiro, hakaba hubatse amazu menshi y'ubucuruzi. Hagati y'ayo mazu hakaba harimo umuhanda urimo abantu benshi bagiye batandukanye. Hagaragara kandi imitaka y'abajenti bakorera ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN.

Ni ahantu bigaragara ko hubatse ikiraro ariko kikaba cyubakishije ibibaho, hariho umubyeyi ufite umwana mu kaboko ke k'indyo arimo aratambukaho, imbere yabo hakaba hari n'akandi kana kahahagaze iki ngiki kikaba ari igikorwa remezo Leta iba yarubakiye abaturage.

Ni ahantu hubatse ibikorwa remezo bya leta, hakaba hagaragara inzu isakaje amabati y'ubururu, ndetse haragaragara kandi n'ibigega bibiri bisa nk'aho ari byo bijyamo amazi y'imvura. Hari kandi n'ibyatsi biri imbere aho ndetse n'ibiti.

Ni agace ubona ko kahariwe kubakwamo ibikorwa remezo, aha ngaha hakaba ari ahantu Leta yarebye ikavuga iti reka nubakire abaturage banjye ibikorwa remezo kugira ngo bibafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi, hari abantu b'abafundi, barimo barubaka ndetse haragaragara ko ari ahantu heza cyane.

Leta y'Igihugu cy'u Rwanda, yubakiye abaturage bayo ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, aha ngaha hakaba hari umuhanda mwiza cyane urimo uranyurwamo n'abantu b'ingeri zitandukanye, ikindi kandi iruhande rw'uwo muhanda hakaba hariho amatara, amurikira uwo muhanda iyo bwije, hagaragara kandi n'ibiti bikikije uwo muhanda, bitanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Gira ubuzima ni ikigo nderabuzima kifashishwa n'abaturage baturiye kino kigo nderabuzima, kikaba kiri mu mabara y'ubururu ndetse hakaba hagaragara n'umuntu wambaye agapfukamunwa, aha ngaha abaturage bakaba bahagana mu gihe bakeneye serivisi z'ubuvuzi.

Abantu benshi cyane barimo barambuka ku kiraro bigaragara ko ari igikorwa remezo cyiza Leta yubakiye abaturage kugira ngo bajye bakinyuraho babashe kwambuka aya mazi, ni abantu ubona bishimye cyane aho bari kwishimira iki gikorwa remezo.

Inyubako nini cyane bigaragara ko ari igikorwa remezo cya leta, iyi nyubako ikaba yubatse ahantu hitaruye hari ibyatsi byiza cyane bisa nkaho bifasha gukurura umuyaga ndetse n'umwuka mwiza wo guhumeka, iyi nyubako ikaba yubatse mu buryo bwa etaje.

Ni umugabo ufashe ku bicuba bine, ibi ngibi bikaba bishyirwamo amata. Bikaba biteretse ku ibaraza ry'inzu yubakishije amatafariye ndetse ikaba isakaje amabati y'ubururu. Imbere y'ibyo bicuba ku ruhande, hakaba hari moto iparitse. Bisa uyu mugabo aje gutwara ibi bicu.

Ni ifoto igaragaza igikorwaremezo cya sitade, iyi sitade ikaba iherereye Nyagatare. Hari ahantu hari ikibuga cy'umupira ndetse hakaba n'ahandi abantu bicara baje kureba umupira. Hari kandi n'abantu barimo barahagendagenda.

Mu gihugu cy'u Rwanda isuku yarogeye ahantu hose, aho hagaragarara imihanda myiza ya kaburimbo ndetse n'amatara amurikira uwo muhanda, dufite kandi inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho ndetse hagiye hari n'ubusitani butanga akayaga kugira ngo abantu bahumeke umwuka mwiza.

Ni icyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye, iki cyapa kikaba kiriho kimwe mu kirangantego k'Igihugu cy'u Rwanda, handitseho ko ari Repubulika y'u Rwanda, Intara y'Iburasirazuba, Akarere ka Nyagatare mu Murenge wa Nyagatare.

inyubako yubatse neza ikaba iteye irangi ry'umweru isakaje amabati y'umutuku, muri iyi nyubako munsi yayo hakaba hicayemo abantu, kuri iyi nyubako handitseho ngo Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare.

Umuntu uri ku ipikipiki ,akaba ari guca ahantu ku kiraro cyiza cyane cyubatswe n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, iki kiraro kikaba ari kimwe mu bikorwa remezo leta yubakira abaturage, kugira ngo bibashe kuborohereza mu ngendo zabo za buri munsi.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu aho bateze amatwi umupolisi uba hagati ibyo ari kubabwira, bari barimo bizihiza umunsi mukuru mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika, bamuteze amatwi bari kumvamva ubutumwa yabateguriye.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye, aho bari imbere y'inzu, ubona ko yubatse neza ndetse imbere y'iyo nzu hakaba hari amahema. Barimo barakupa copa ibyatsi biri imbere y'urwo ruzitiro kugira ngo babashe kuba bahakorera isuku.

Abagabo bahagaze ahantu hari urutoki rwinshi, hakaba harimo umwe w'umupolisi. Bisa nkaho aba bagabo hari ikintu runaka baje kureba cyangwa se hari nk'ikibazo runaka baje gukemura. Urabona ko ari abantu baki neza cyane ndetse n'urutoki urabona ko ari urutoki rushishe.

Ni abantu benshi, harimo abagore ndetse n'abagabo, hakaba harimo n'umugore umwe umudaso. Bari ahantu bisa nkaho hari igikorwa runaka bajemo, aho bamwe bicaye, abandi bahagaze imbere, abicaye babateze amatwi ndetse babakurikiye.

Abantu benshi bahagaze ahantu munsi y'igiti, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, bisa nk'aho hari ikintu runaka k'ingenzi barimo, umuntu umwe akaba abahagaze imbere arimo aragira ijambo ababwira. Inyuma yabo hakaba hari jaride ndetse n'inzu ihubatse.

Ni abantu ubona ko bateraniye ahantu, hakaba harimo abantu bamwe basa nkaho bayoboye abandi, hari umugabo umwe uhagaze imbere yabo bisa nkaho hari ijambo runaka arimo arababwira kandi iryo jambo rikaba ari ingenzi kuko bose bamuteze amatwi.

Ni ahantu imbere y'inyubako hakaba hateraniye abantu benshi batandukanye, hakaba hari umugabo ubari imbere bisa nkaho hari impanuro arimo arabaha cyangwa se hari ubutumwa runaka arimo arababwira, abandi na bo bamuteze amatwi bakurikiye ibyo arimo arababwira.

N'abagabo bigaragara ko bari mu nzego zikomeye z'umutekano, bakaba bari ahantu bisa nkaho ari muri salle bisa nkaho hari abantu runaka bateze amatwi kugira ngo babashe kuba babakemurira ikibazo cyabo.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, aho hantu hakaba hubatse amatente, biragaragara ko hari igikorwa runaka cyahabereye kuko hari abantu b'abayobozi bakomeye ndetse n'abo mu nzego z'umutekano biragaragara kandi ko hari n'abantu barimo barafata amashusho y'ibibera ahongaho.

Abantu benshi bagiye batandukanye hakaba harimo abambaye impuzankano ariko z'ubwoko bugiye butandukanye, bicaye ahantu mu gishararagate basa nk'aho hari ikintu runaka baje gukurikirana kandi icyo kintu kikaba ari ingenzi, baratuje cyane bateze amatwi urimo arabagezaho ikiganiro.

Abantu b'ingeri zigiye zitandukanye bahagaze ahantu mu nzu, hakaba harimo n'abashinzwe inzego z'umutekano, arimo abasirikare ndetse n'umucungagereza umwe, abandi ni abandi bagabo ubona ko nabo ari abasirimu, birashoboka ko baje hano hantu bitewe n'igikorwa runaka baje kuhakora kandi cy'ingenzi.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, hakaba harimo imodoka iparitsemo, ikaba ari imwe mu modoka zitwara abagenzi rusange, hari umwe uri mu muryango arimo ararebamo imbere, hakaba hari n'undi muntu umuri inyuma, bisa nk'aho bose bashaka kwinjira muri iyi modoka kugira ngo ibatware.

Imwe mu modoka zitwara abagenzi rusange urabona ko ari imodoka nziza cyane, ifite imbereh'umweru ndetse urabona ko iyi modoka ikiri nshyashya, umuntu wese iyo ayicayemo abasha kugenda yicaye neza kandi ari kurya umunyenga.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, aha ngaha hakaba ari mu ihuriro ry'imihanda igiye itandukanye, hakaba hari icyapa kiranga uko uyu muhanda abashinzwe ibinyabiziga bacamo, haragaragara kandi n'imirongo y'aho abantu b'abanyamaguru bambukira.

Ni ku muhanda wa kaburimbo aho hagaragara ibiti birimo ipoto rijyana umuriro w'amashanyarazi ndetse hakaba hagaragara n'icyapa kiranga ahantu, hari kandi umuhanda w'umukara uhagaragara ndetse hari n'akandi kazu kari imbere kahagaragara. Haragaragara kandi n'ibiti byinshi bisa nk'aho ari ishyamba.

Ni mu muhanda wa kaburimbo aho uyu muhanda ukikijwe n'ibiti bitanga umuyaga ndetse uyu muhanda ukaba ukikijwe n'amapoto ajyana umuriro w'amashanyarazi. Muri uyu muhanda hakaba harimo imirongo igaragaza ko aha ngaha ari aho abagenzi bambukira.

Ni mu muhanda upavomesheje amabuye, hakaba harimo imodoka itwara abagenzi rusange, iruhande hakaba hari umuntu urimo uragenda kuri uwo muhanda ndetse hari n'inzu bigaragara ko aha hantu ari inzu z'ubucuruzi.

Ni mu muhanda wa kaburimbo nijoro, aho amatara ari ku muhanda arimo araka. Hagaragara kandi icyapa kigaragaza hano ko ariho imodoka ziparika mu gihe umugenzi agiye gusohokamo cyangwa hagiye kwinjiramo undi.

Ni umugabo utwaye igare aho ari kunyura mu muhanda wa kaburimbo ahetse undi ku igare, imbere yaho hakaba hari icyapa cyanditseho mirongo itandatu bisa nkaho iyo ikinyabiziga kigeze kuri iki cyapa kigomba kugendera ku muvuduko wa mirongo itandatu.

Ahantu haparitse imodoka nziza cyane ndetse ikaba iparitse imbere y'inzu ubona yubatse neza, kuri iyo nzu hari i'icyapa cyanditseho irembo ndetse hahanagaragara n'ibiti bikikije iyo nzu, hari insinga kandi zigaragara zijyana umuriro w'amashanyarazi.

Ni umugabo w'umumotari uhetse umugenzi, akaba ari mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwe haragaragara akayira k'abanyamaguru, aho harimo umuntu uri gutambukamo, hepfo y'uwo muntu hakaba hari amazu y'ubucuruzi ahari.

Imodoka muri zimwe mu modoka zitwara abagenzi, ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, hakaba hari ahantu abagenzi bategerereza imodoka bicaye, haragaragara kandi n'izindi nzu zifashishwa bacuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ni ahantu ubona ko hateraniye abantu b'ingeri zigiye zitandukanye hakaba harimo abasirikare ndetse n'abapolisi, biragaragara ko hari igikorwa k'ingenzi barimo nyuma yuko basoje ibyo bakoraga banzuye kwicinyira akadiho bakishima.

Ni abasore ndetse n'inkumi bari guca mu kayira kameze nk'aho ari akayira ko mu byaro, bari guca ahantu hateye urutoki bose bakaba bikoreye amabuye, bisa nk'aho barimo barakora umuganda kugira ngo biyubakire Igihugu cyabo cy'u Rwanda.

Ni ahantu hateraniye abantu benshi bagiye batandukanye hakaba harimo n'inzego z'umutekano Polisi ndetse na Daso, abantu benshi bahateraniye bisa nkaho baje mu nama, haragaragara kandi ikigo nderabuzima, aho hantu hakaba hari jaride nziza cyane ihateye.

Abantu b'ingeri zigiye zitandukanye abagore ndetse n'abagabo bicaye ahantu hamwe aho bateze amatwi umuntu ubahagaze imbere, uyu muntu akaba afite microphone mu ntoki bisa nkaho hari ijambo ry'ingenzi arimo arabagezaho na bo bamuteze amatwi.

Ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu bikaba bisa nkaho aba bantu baje mu gikorwa cy'inama cyangwa se umuganda, hari abarimo barabaganiriza aho ubona abandi babateze amatwi kugira ngo bumve ubutumwa ndetse n'impanuro bahabwa.

Abantu benshi bateraniye ahantu, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, urabona ko hari igikorwa runaka baje gukora, hakaba hari umugabo wambaye umupira uriho perezida w'Igihugu cy'u Rwanda, biragaragara ko bishimye ndetse bateze amatwi, umuntu urimo aragira ijambo abagezaho.

Ni abantu benshi b'urubyiruko, bakaba bateraniye ahantu hamwe bisa nk'aho barimo barakora umuganda. Bamwe bikoreye amabuye abandi bafite amasuka barimo barahinga.

Abantu benshi bari ahantu mu kibuga, bakaba barimo barakora imyitozo ngororamubiri. Hari umuntu ubari imbere aho arimo arabayobora abereka imyitozo bakora, harimo abahungu ndetse n'abakobwa bose bitabiriye imyitozo ngororamubiri.

Ni mu kibuga cy'ubwatsi, aho harimo amakipe abiri y'abakobwa ubona ko barimo baratakana, bamwe bafite ballon, abandi barimo barashaka kuyibambura, urabona ko ari ibintu byiza cyane, kubona umukobwa akora siporo ni ibintu byiza kandi biba bishimishije.

Ni abasore bari mu kibuga cy'ibitaka, bakaba bambaye ijezi cyangwa se impuzankano z'abakinnyi bakina umupira w'amaguru, biragaragara ko bari gukina umupira ndetse iruhande rwabo, hakaba hari abantu baje kubafana.

Ni mu kibuga ariko cy'ibitaka, hakaba harimo amakipe abiri y'abakobwa, ikipe imwe yambaye jezi z'umukara, iyindi yambaye jezi z'ubururu, umukobwa wambaye jezi z'umukara akaba agiye gutera ishoti, inyuma yabo hakaba hari ibiti bihagaragara.

Ni amakipe abiri, akaba ayobowe n'abasifuzi batatu babari imbere, abakinnyi bakurikiye abo basifuzi, bakaba bafashe icyapa cyanditseho amagambo agira ati" Amarushanwa y'umurenge Kagame cup".

Ikipe y'abakinnyi b'abasore, ubona ko bambaye inifomo zabo, bakaba bari barimo barakora imyitozo ngororamubiri mbere yuko bajya mu kibuga gukina umupira. Haruguru yabo hagaragara abantu bari guca mu byatsi, bisa nkaho baje kubafana.

Ni mu kibuga cy'umupira aho harimo umugore umwe munini bisa nkaho agiye gutera umupira, hakaba hari n'abandi bagabo babiri bambaye imyenda isa baje gukina, aho hari n'undi ufite telefoni ugiye gufotora uyu mudamu ugiye gutera umupira.

Umuhanda bigaragara ko ari umuhanda wo mu cyaro, ukaba uri kunyurwamo n'umugabo ufite isuka ku rutugu n'akabido mu ntoki. Biragaragara ko uyu mugabo avuye mu murima we guhinga. Iruhande rwe hakaba hari igipangu k'inzu kihagaragara.

Umuhanda bigaragara ko ari imwe mu mihanda yo mu byaro ukaba urimo amabuye, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari akayira k'abanyamaguru, haragaragaramo umuntu ariko utagaragara neza.

Mu byaro hirya no hino hagiye harimo utuyira ubona koko ka ari umuhanda w'ibyaro, hakaba iruhande rwatwo hariho utwatsi ubona dutoshye neza cyane, ni umuhanda utarimo umuntu n'umwe ndetse kuru ruhande biragaragara ko hari ishyamba.

Umugabo ndetse n'umwana mutoya barimo baratambuka mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwabo hakaba hari akayira k'abanyamaguru gasashishije amapavi, inyuma yabo kandi haragaragara inzu nzizahubatse ndetse haragaragara n'ibiti bihateye.

Ni mu muhanda bigaragara ko ari umuhanda wo mu cyaro, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ahantu hari ikiraro ariho haca abantu bagenda n'amaguru, biragaragara ko uyu muhanda udakoze neza bishobora kuba byagorana mu gihe imvura yaba yaguye.

Umugabo uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, akaba arimo arareba inyuma aho ari guturuka. Mu kaboko ke k'ibumoso afitemo amvelope, inyuma ye haragaragara inzu yubakishije amatafari ahiye n'indi nzu isize irangi rigiye kuba umweru, cyangwa se umuhondo.

Ni ahantu hahariwe kwigishirizwa gutwara ibinyabiziga, aho hari imodoka ebyiri abantu bashaka kwiga gutwara bifashisha. Hakaba hateye amakota kugira ngo umuntu waje kwiga abashe kuba yakatamo kugira ngo babashe gusuzuma ubumenyi bwe.

Ni mu muhanda wa kaburimbo hakaba harimo imodoka iri kugendamo ndetse harimo n'umumotari uri kuri moto uhetse undi mugenzi we, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ibiti binini bihari bitanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse kuri uwo muhanda ukaba ukikijwe n'amapoto ariho amatara awumurikira iyo bwije.

Ni akayira bigaragara ko ari kamwe mu tuyira two mu byaro muri ako kayira hakaba harimo abantu barimo bararagacamo, iruhande rw'ako kayira hakaba hari ibyatsi ndetse haragaragara n'ibiti bihateye.

Ni umuhanda bigaragara ko ari umuhanda wo mu cyaro hakaba harimo umukobwa urimo urawugendamo, biragaragara ko uyu muhanda imvura iguye hashobora kuzamo ibyondo imodoka kuba yanyuramo bikaba ikibazo gikomeye cyane.